Inteko rusange ni aho abantu bahurira muri komite bahantu hamwe batuye nko mu mudugudu umwe bagahura bakaganira ku buryo bw'imiyoborere ndetse n'abaturage n'ubuzima bwabo muri rusange bikagenda bibafasha.

Uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu, hagiye harimo uburyo butandukanye hakoreshwa ibinyabiziga bitandukanye, amamoto akoreshwa gutwara abantu kenshi hatwara umuntu umwe, cyangwa se n'amamodoka. Ibyo byose ni ibifasha mu iterambere ry'umugi wacu.